Moto y'umutuku yanditseho Airtel, ikaba iriho n'ingofero ebyiri z'umutuku, umuntu utwaye moto yambara ndetse n'uwo atwaye mu rwego rwo kugira ngo mugihe bakoze impanuka, zibarinde kwangirika umutwe.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo hakaba hateye indabo nziza z'imikindo. Imbere y'izo ndabo hari amadarapo ari mu bwoko butandukanye, hakaba harimo n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Hakaba ariho n'irindi darapo risa n'iry'igihugu cya Uganda.